Ubworozi bw'amafi ni ingenzi cyane kuko buzanira aborozi b'amafi amafaranga ndetse bakagira aho bagera, biragaragara ko no kuyagaburira ari bimwe mu bintu by'ingenzi bituma atanga umusaruro.

Ishyamba ni kimwe mu bidukikije bidufitiye akamaro, aho rituzanira umwuka duhumeka, rikadufasha kubona inkwi ducana ndetse n'inyamaswa zikaba zashobora kubona ubuturo.

Ihene zitandukanye zifite amabara atandukanye, hari izivangiye umukara n'umweru, izivangiye kigina ndetse n'umweru ndetse n'izigaragara mu ibara ry'umweru.

Inka zitandukanye, zirira ku gatara gatandukanye ndetse ziri mu biraro bitandukanye. Bigaragara ko ari imashini izigaburira.

Ibinyamisogwe by'amoko atandukanye ndetse n'ibinyampeke, bigira intungamubiri nyinshi ndetse ni ingenzi cyane mu mubiri.

Inyoni nyinshi zikunze kuba mu mazi, ntabwo zijya ziba mu byari ahubwo zitungwa n'ibyo mu mazi, ni yo mpamvu zikunda kwibera mu mazi igihe kinini.